Itsinda rinini ry'abanyamategeko mu bari mu rugendo rwemewe harimo abagabo n'abagore.

Ku kigo cy uburezi, aho habereye amatora, hari abantu benshi, ku kigo cya Kimironko ya mbere.

Ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye, harimo ubucuruzi, aho bacurira imfunguzo, n'aho abamotari bahagara.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru n'umukara, bigaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira n'ibyuma bibayobora ko bagomba kwambuka cyangwa baba bategereje.